Niba uri guhinga ugomba guhinga kinyamwuga. Watera umuti ugatera kinyamwuga ufite ibikoresho byose bikenerwa kugira ngo uyu muti uri gutera utakugiraho ingaruka ku buzima bwawe.

Ibihingwa kugira byere bikure neza n'uko uba wabiteye umuti uhagije, ukawuterera igihe, ibyo bihingwa ukabikurikirana ukabyitaho bikabona ifumbire ihagije, ibyo bihingwa nta kabuza bizaguha umusaruro mwinshi cyane.

Roketi ni umuti dukoreshaga hano i Musanze turi guhinga ibirayi, ibigori, ibishyimbo ndetse n'ibindi bihingwa byose. Ugwo muti gukaba gwicaga udukoko gwose twaba twenda gufata ibihingwa.

Twebwe iwacu muri Musanze duteraga umuti， tukawutera neza bikaduha umusaruro mwinshi， tukabona amafaranga menshi. Niyo mpamvu buri wese agomba gutera umuti abishyizeho umwete kuko uhinga mu kwe ntabwo asigana.

Kugira ibihingwa ukabifumbira， ukabitera n'umuti no kubicucira，ibyo bihingwa iyo wabikoreye ibyo byose，biguha umusaruro ushimishije，nawe ndetse ukishima.

Guhinga ibihingwa ukabishyiramo n'umuti ni ibintu byiza cyane, ku buryo ibyo bihingwa byakohereza umusaruro ufatika kandi ushimishije, iyo miti iba yizewe kuko iba yarahawe ikirango cy'imitizi yizewe.

Guhinga bya kijambere ni ibintu bidutezaga imbere cane kandi iyo uhinze ugomba gutera n'umuti. Ugatera umuti wambaye wikwije kugira ngo ugo muti utaguhumeka ukakugiraho ikibazo.

Ifumbire mvaruganda nta handi ituruka, iturukaga muri twebwe ndetse no mu bintu bimwe na bimwe tubaga twataye. Ni yo mpamvu twese tugomba kuyikoresha, tukitabira gukoreshaga amafumbire gafashaga imyaka gagakuraga neza, ikaduha umusaruro mwiza ushimishije cyane.

Guhinga ibihingwa ukabishiraho n'ifumbire mvaruganda biba ari byiza cyane. Ifumbire mvaruganda yica udukoko tuba turi munsi y'ubutaka dushobora kurya icyo gihingwa cyawe.

Supadudu ni umuti dukoresha turi kwica udukoko twaba twaje mu murima cyangwa mu bihingwa byacu. Uwo muti uratwica utwo ari two twose.

Korora amafi ntago bibujijwe. ahubwo niba ubifitiye ubushobozi wayorora kuko amafi aba ari meza cyane, kuyarya aba aryoshye kandi ni ikintu kiboneka ahantu hakeya, nawe wayorora cyane.

Kurya utunyamaswa two mu nyanja, ni utunyamaswa tuba dufite intungamubiri nyinshi cyane, ku buryo tudufasha mu mikurire y'abana, bikabarinda bwaki, wadusanga ku mazi ahantu bita ku Kivu.

Ubwato ni kimwe mu binyabiziga bigenderaga mu mazi, kandi mu bwato hagomba kujamo abantu bagenewe kujamo, hagiyemo abantu benshi bashobora kugirwa ibyago byo kurohama, kandi bari mu mazi hagati, ugasanga bahuye n'ikibazo, umuntu ugomba kuja mu mazi agomba kuba yambaye ijire, iratuma areremba hejuru y'amazi aramutse aguyemo.

Amafi ni amwe mu nyayamaswa zo mu nyanja, akaba ameze neza afite amaso manini. kandi uwariye ifi uba uyeho neza, ifi ifasha buri wese mu gukura neza.

Amafi ni amwe mu nyamaswa zo mu mazi ni nka umwami w'inyanja kandi nta nko indyo yuzuye kuko inda igwingira ry'abana tugomba kuyabafata ku ifunguro rya saa sita bikaba byaturinda kurwaza izo ndwara

Amafi ni bimwe mu bigize inyanja, iyo ari mu nyanja, inyanja nayo yumva ibayeho neza, amafi ni ibiryo biryoha cyane, amafi arakunzwe, wayasanga mu Rwanda, kuri raki Kivu, ndetse n'ahandi.

Hariya mu Gwanda iyo bagiye kuhasura ukaja ahantu bitaga ku mazi i Gisenyi, uhasangaga amafi menshi, amafi kandi garyoshe cane, urugero nk'iyi ngiyi wayisanga i Gisenyi ku mazi, ariho bakunze kuvuga ngo ni ku ibici.

Ubu burobyi ntabukibaho tugomba kubwamagana , kuko umuntu ugomba kuba ari kuroba agomba gukoresha ibikoresho byabugenewe. Iyo ukoresheje ibikoresho bitari byo byica inyamaswa zo mu mazi ,ndetse bitugiraho n'ingaruka muri rusange.

Kurya ibiryo ufite agasalade, biba biryoshye cyane. Iyi fi wayisanga ahantu bita kuri Rake kivu, mu Rwanda zirahaba cyane, kandi ziba ziryoshye neza cyane.

Amafi garobeweho ako kanya gabaga gajyoshe cane, gagifite umwimerere, gatari gakubitwa n'umuyaga ngo gazemo ama emfegisiyo. Usangaga gajyoshe gameze neza cane kandi gabaga ari meza, gafite isura nziza, gari kugaragara neza.

Kugira uruzitiro bikurinda abasambo, bikakurinda ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane. Kandi kugira urutoki iwawe bituma iwawe hataboka inzara. Iyo igitoki cyeze, muraca, mukarya mugahaga.

Iyo ufite urutoki uba ugomba kugira ibintu bizagitangira, kugira ngo kitazagwa kiteze, igitoki cyawe kikera neza abakibona bose bakakishimira, kikakwinjiriza amafaranga.

Igitoki ni igihingwa duhingaga dushaka kukijya, tutiriwe turakijana mu nganda tukakijya canga tukakijana mu masoko bikaduhereza amafaranga ndetse tukiteza n'imbere ubwacu.

Guhinga ubutaka ukabuhereza umwanya munini wisagaguye wo kurerekamo amazi bituma udatwagwa n'isuri. Ubwo butaka kandi iyo buhinze ku mitabo buba bumeze neza nta suri yabugeraho.

Kurya umushogoro bimeze nko kurya imboga za dodo nazo ni imboga mu zindi, ziba ziryoshye cyane ni imboga wabona ku bishyimbo ni amababi y'ibishyimbo kandi ziba ziryoshye cyane.

Iyo uhinze ibirayi, uba ugomba kubyuhira, ukabitera umuti, ugashyiramo ifumbire mborera n'ifumbire mvaruganda, kugira ngo ibyo birayi bizere neza, biguhe umusaruro ushimishije, ku buryo buhambaye cyane.

Gutera ibiti ni bimwe mu bintu bidufasha kubona imvura, kandi ibiti bihagarikaga umuyaga gwari kujanye imvura, ubundi tukabona imvura iri kugwa ari nyinshi. Ni nayo mpamvu muri Musanze twigirira imvura nyinshi, tugira amashamba menshi, menshi cane.

Niba uzi ko wahinze， uba ugomba kubikurikirana paka，igikorwa watangiye kirangiye， kandi kikarangira neza，warahinze，ibyo wahinze bikaguha umusaruro， nawe warabyitayeho neza cyane.

Karoti zizaba ziryoshye. Muri Musanze turazihinga .Ariko karoti zirimo kubura igihe gito ngo zere, kuko izuba ryarabonetse ,akavura karabonetse. Barabura igihe gitoya kugira ngo tubone umusaruro.

Si ngombwa ko utegereza ko umurima urara, ahubwo niba umaze gusarura hita uwuhinga, kugira ngo nabwo nujya guteramo ibindi bihingwa, uzasange umurima wawe umeze neza, utakuvunnye kuwuhinga, ubundi utere mu mutuzo.

Guhinga ugahinga umutabo ni bimwe mu bintu bifasha umurima kugira ngo utaza gutwarwa n'isuri bikagufasha mu myerere yawo ndetse n'uburumbuke bw'uwo murima ukajya hejuru cyane.

Uyunguyu ni umugezi utemba wo muri Rulindo ugasanga amazi ni menshi, harimo amafi, harimo iby'inyanja, hirya urabona ko hakikijwe n'igiti cy'umusave. umusave turawuzi twese. Erega gutera ibiti ni bimwe mu biturinda isuri

Ihene umuntu aba agomba kuyiragira neza kugira ngo izamuhe ubworozi bwinshi buhagije, kugira ngo nawe yirire ku mafaranga yumve ukuntu yesu agira neza.

Intama ni inyamaswa ikunda kurisha ibyatsi, ariko ikanororoka cyane, kuko yo ibyarira ku mezi atanu iba yongeye kubyara uwundi mwana wayo, ugasanga iri kuguha amafaranga menshi cyane.

Abantu duturiye ku misozi tuba tugomba kugira amaterasi azaturinda amasuri, kuko igihe icyo aricyo cyose imvura ishobora kugwa nyinshi, ugasanga habaye inkangu iteye ubwoba.

Nta muhinza wakoranye na tubura wigeze kubura umusaruro. Niba utaragerageza gukoresha ho tubura ho na rimwe bigerageze! Nawe uribonera agashya kakubaho. Biragwiza imitungo, uhaza umuryango wawe, abawe bose, ndetse usagurire n'isoko.

Umusozi ufite amaterasi uba usa neza, kandi uwo musozi ugomba kuba uriho ibihingwa kugira ngo bifashe mu kurinda isuri ndetse n'inkangu.

Indimu ni igihingwa bahinga, bakagitera n'umuti, kikabaha umusaruro ushimishije cyane, ku gihingwa, iyo wagihinze neza, ukagiha ibisabwa byose, ubona amafaranga ahagije menshi cyane.

Amapera ngo araryoha, ni bimwe mu bintu bigaburirwa n'inyoni, inyoni zirabikunda cyane. Ngo amapera aba ari mu biti; yaba ay'umutuku yaba ay'umweru aba aryoshye.

Kuhira imyaka ni bimwe mu bifasha umuntu mu kutavunika, cyangwa mu buryo bwo kwiyorohereza imikorere yawe, kandi bikaguteza n'imbere.

Imiteja ni ibiryo biryoha, ni ibiryo biba bisa neza, ibiryo birimo imiteja biba birimo intungamubiri zihagije ku buryo utakenera n'izindi ntungamubiri, kandi imiteja yera ku bishyimbo gusa.

Kubika imyaka neza biyongerera iminsi yo kuba ikiri mizima, bityo kuyijyana ku isoko ntitwahendwa, twabona amafaranga menshi kuko twayibitse neza kandi byadufasha no mu iterambere.

Guhinga umurima w'umurambi ni bibi，kuko iyo habayeho isuri uwo muririma wose uragenda， ariko iyo wahinze umurima w'imitabo uba ari umurima mwiza ku buryo isuri ije，itapfa gutwara ubwo butaka.

Ibitunguru ni ibintu bimwe bidufasha mu guteka, bigafasha ibiryo byacu guhumura neza, tukabirya biryoshe, bihumura neza cyane, kandi iyo wabihinze neza biguhaga amafaranga ukizigamira, ukabitsa, ukiteza imbere.

Gusarura ibishyimbo, ukabihura, ukabyandika, biba ari ibintu bikenewe cyane, kuko ibyo bishyimbo biruma, bigatanga umusaro uhagije cyane, kandi bikanatubuka ku rwego rwo hejuru.

Guhinga ubunyobwa ni ibintu bidufashaga cyane ku buryo tubona amafaranga tukiteza imbere mu bucuruzi kandi tukabaho neza twasaguriye n'amasoko.

Amatunda aha buri wese yayahinga kandi ni igihingwa kiryoga cyane kiba gifite vitamini icyo gihingwa wagihinga ahari ho hose ntikigaya ubutaka kandi uba ugomba kugifumbira neza.

Guhinga ni ibintu bidufasha kwiteza imbere tukabona amafaranga, kandi twese tugomba gutinyuka tugakura amaboko mu mifuka tugakora, tugashaka amafaranga tugakira ku rwego rwo hejuru.

Amashu niyo dukunda guhinga kandi duhinga mu karima k'igikoni tukagaburira abana bacu imboga, bakarya bagahaga tukanabarinda indwara za bwaki ndetse n'izindi izo arizo zose.

Ubutaka buri munsi y'umusozi buba ari ubutaka bwera cyane, n'iyo watera utashyizemo ifumbire ubwo butaka burera, kuko ifumbire iba yavuye mu mirima yo hejuru ku musozi bari bashyizemo ifumbire. Ifumbire yose ikaza ikigira mu murima uri mu nsi y'umusozi.

Kugira akarima k'igikoni ni bimwe mu bintu bifashaga umuryango gwawe kwirinda bwaki, kandi warakubatse neza ukakayitegurira ahantu, ibintu bizakarinda isuri, ibyo bintu ndikuvuga, ni nko gutera ibiti ukora amaterasi ku buryo ibyo bintu bitazahura n'isuri habe na gato.

Kurya ikinyomoro gitukuye, bituma amaraso yo mu mubiri wawe yiyongera, ayo maraso akaba ari menshi afashe, atukuye, kandi ku buryo ugize n'igikomere, amaraso yava ari menshi cyane.

Gutera ibiti ni bimwe mu biturinda isuri, bikarinda ubutaka bwacu gutembanwa n'amazi, ibyo biti ko twateye tugomba kubyiho tukabicucira kugira ngo bitaza kuma.

Iyo wahinze ibigori neza warabihaye ifumbire, na byo biguha umusaruro ushimishije. Ikigori iyo ukiretse kikuma kikumira mu murima, ugisarura gifite agaciro kanini cyane.

Ubworozi bw'intama ni ubworozi bugira amafaranga menshi, ubwo bworozi butanga umusaruro, bugatanga ifumbire ,kandi ku buryo buboroheye ntabwo bigera bifuza inyama kuko yafata mu zo yoroye

Imbuto wazicururiza ahariho hose，hano mu isoko bakunda kuzihaha， namwe mwaza mugacuruza，mukareka gucururiza mu mihanda，mukita ku mutekano wanyu， kugira ngo hato, nk’abajura bataza， bakabibaka.

Bavugaga ko umutsima gwa mayizori ari umutsima bitaga patejone. Ugo mutsima gurajyohaga, ntawe utaguzi, twese turaguzi, kurajyohaga, guba gusa n'umuhondo kandi gubaga gujyoshe.

Pavuro ni igihingwa hano mu Gwanda tugiraga kiryoshaga ibiryo kikabihumuza. Kandi neza buriya wariye ibiryo birimo aka gahingwa, ntago wakumva uguwe nabi. Kabaga karyoshe kandi kari guhumura neza neza cane!

Hano ni mu isoko mwaza mugahaha hariyo ibishimba bitunoye neza ,bigosoye bitarimo imyanda: amajeri ,ibigori ,amavuta ndetse n'amashu n'ibindi byinshi kandi hano abaturage bakunda guhaha ,nawe utari wahahahira banguka uhahe.

Ingurube ni inyamaswa igira umwanda. Ni inyamaswa ariko ihenze ku masoko, inyamaswa iba ari nini ku rwego rwo hejuru, ni inyamaswa yakundaga kurya ibintu ibyo ari byo byose irabirya.

Voka y'imbangurire ibaga iryoshe ivagamo amavuta. Iyovoka iyo uyiriye wumvaga nta niyindi warya, ziragusemaga zibaga ziryoshye ku rwego rwo hejuru cane.

Gucagurira ibihingwa, ni bimwe mu bintu bitumaga ibihingwa byera neza kandi bikaduha umusaruro gushimishije, tukabona amafaranga yo kwizigamira azaduteza imbere kandi bikaduha ifumbire mu bintu ibyo ari byo byose twaba dukeneye mbese tukabibonamo ago mafaranga.

Ibigori ni ibiryo biryoha. Ibigori wacyotsa, ukakirya, cyangwa ukagiteka, cyangwa ukakibeteshamo ifu ya kawunga, ukirira umutsima usa n'umweru, usa n'amata cyane.

Ubuhinzi bw'amashu ni ubuhinzi butanga amafaranga, ubuhinzi buba burimo ibiceri byinshi kandi buri wese agomba kubuhinga, ahantu hahinze neza ku buryo binamurinda isuri.

Gucururiza hamwe n'abantu benshi biri mu bintu bidufasha mu kwiteza imbere, kubona abakiriya kandi bikaturinda no kuba twaba turi kwirukankana n'abashinzwe umutekano kuko twaba tutari gucururiza ahantu hemewe.

Ibirayi ni ibihingwa duhinga ino muri Musanze .ibirayi ni ibintu biryoha cyane. Biba biryoshye, biryoshye, biryoshye kuburyo n'uwabiriye ino i Musanze yumva ari byo yahora aririra.

Ibigori bya mayizori ni byo bigori bivamo ifu ya patejone. Ibigori biba bisa n'umuhondo bitarimo n'akeru na gake na gake. Ibyo ibigori biboneka ahantu hamwe na hamwe kandi bivamo ifu iryoshye.

Jwewe uko mbona iyi imyumbati, ni ibiryo bitera imbaraga ,bigafasha umubiri wacu mugukomera. Ni nayo mpamvu tugomba kuyirya, ndetse kandi tugagerekaho n'indi ndyo yuzuye kugira twubake umubiri wacu.

Guhinga imyaka ntibivuze ko biba byarangiye ahubwo uba ugomba no kuyuhira ukayikurikirana neza kugira ngo iyo myaka nayo izaguhe umusaruro ushimishije kandi wihaze uhaze n'amasoko.

Imyumbati ni bimwe mu biryo bitera imbaraga kandi biboneka ahantu hamwe na hamwe hake hashoboka, ariko biba biryoshe kubirisha ibishimbo ndetse n'amarongoga.

Amapera ni ikintu mu bimwe, mu bingize imbuto, amapera aba aryoshye, cyane cyane umapera y'umweru, kuko nubwo bayita aya kizungu ariko araryoshye, aryoshye cyane kurusha n'ayandi ayo ari yo yose.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni ubuhinzi buvagamo amafaranga menshi ku buryo umuhinzi iyo yabihinze neza akabiha ifumbire bimuhaga amafaranga akaja kubitsa akiteza imbere mu buryo bugaragara cane.

Iyo wahinze ibigori uba ugomba no kubyitaho kugira ngo bitazafurikananka bikanundwa. Niyo mpamvu uba ugomba kubyubakira ahantu hahitaruye hagomba kuboneka akazuba, ukabyanikaho bikuma neza, ukabijyana ku isoko bifite umwimerere.

Ibigori ni bimwe mu bihingwa bidufasha mu kwiteza imbere. Ibigori biduha ifu y' igikoma, ifu ya kawunga, tukarya tugasagurira n' amasosoko, tukiteza imbere mu bukungu. Ni na yo mpamvu uwahinze ibigori uwo ari we wese agomba kubitera n'umuti, kugira ngo bimuhereze umusaruro ushimishije.

Buri muturage wese agomba guhinga kijambere agahinga akoresheje ifumbire mborera n'imvaruganda ,kugira ngo azabone umusaruro ,ushimishije cane.

Izi ndimu zeze neza ,bazikase neza ,umuntu wazihinze yabonye amafaranga menshi cyane. Izi ndimu aho zavuye zera n'izindi zimeze neza cyane cyane ,kandi zinasa neza.

Nkurikije uko ikirere kimeze ndabona ikirere gikeye, uyu muntu yabonye umuco ahinga neza ibi birayi n'iyo bitaba ibirayi, ibindi byose yaba agiye guhinga bizere neza kuko ubutaka buhinze mu gihe c'izuba.

Guhinga bya kijambere ni bimwe na byo mu bitera ibihingwa gukura neza, kandi bikera neza ku murongo. Ubu ng'ubu bari gucucira nta kibazo ibigingwa bifite, bibayeho neza, biri kubona amazi n'akazuba nta kibazo.

Igihaza ni ikiribwa kiryoha cyane, cyane cyane cyane kandi, igihaza wakirya ari cyonyine, utirwe urashiramo n'ibindi birungo, igihaza cyo kiba gifite, gifitemo umwimerere uhagije cyane.

Ibitunguru ni ibintu biryoga cane kandi iyo ukiriye kiguteraga apeti kigatuma urya ibijyo byinji kuko igitunguru kirimo apeti kandi kivuraga amaso.

Guhinga ni kimwe, no gufumbira ni ikindi. Wahinze imyaka ntuyihereze amafumbire. Ibyo bintu bituma imyaka yangirika, kuko iba yarabuze intungamubiri. Tugomba kuyiha intungamubiri zayo, kugira nayo yere neza.

Igihaza ni ikiribwa kiryoha kera kimejeje, aho umuntu yateye imbuto, utaragifumbiye, utaragihaye amazi, ni igihingwa mbese muri make gishobora kwirera ki kibeshaho....

Umuhinzi witaye ku gihingwa cye, akakigirira neza akagiha ifumbire ihagije abona umusaruro akabitsa amafaranga, agakura mu buryo bw'ubukungu kandi akabijyana ku isoko bakamuha amafaranga menshi cyane.

Amajeri ni ibiribwa bijyohaga cane, mu Gwanda abantu benshi barabikundaga cane cane. Amajeri ni ibihingwa byeraga mu murima, bikera wabifumbiye, kandi nawe wabihinze bikaguha amafaranga, ukizigamira wahagije n'amasoko gose.

Igitoki cy'imineke ni igitoki kiba biryoshye cyane, iyo ugitaze neza, ukacyihorera gifite umutuzo, kiguha imineke itukuye neza, kandi iryoshye cyane.

Kunywa indimu iri mu mazi bifasha amaraso gutembera mu mubiri neza indimu iri mu mazi iba ifite akamaro kenshi cyane mu maraso yacu ,kandi binafasha ubuzima mu gukomeza k'ubuzima bwacu.

Niba nawe uri umuhinzi koresha ifumbire mborera nk'imvaruganda kugirango ngo ubone umusaruro ushimishije, ubashe gutera imbere mu bukungu, kandi uteze imbere igihugu cyawe cyakubyaye.

Wotameloni ni kimwe mu bintu umuntu arya ariko bidafite izina ry'irinyarwanda, byose byose iyo ugiye kubivuga ubivuga mu izina ry'Icyongereza, nta kinyarwanda bigira.

Iyo wahinze neza igihingwa cyawe waragifumbire, bigubwa umusaruro. Uru runyanya ruratukuye, rumeze neza kuko rwabonye ifumbire ihagije, rubona umuti uhagije, izuba rihagije ndetse n'imvura ihagije, ku buryo rwabaye gutya rugasa neza cyane.

Ibirayi ni ibintu twese dukunda kurya. Kandi biba biryoshye ,bimeze neza. Ibirayi biboneka ahantu henshi cyane, cyane cyane mu karere ka Musanze ahantu bita mu Kinigi birahaba byinshi cyane.

Ibijumba ni bimwe mu biryo biterara imbaraga ,umubiri wacu ugakomera ukagira n'ubudahangarwa ,ndetse n'abasirikare benshi bo mu mubiri ,ku buryo nta ndwara yaguhangara uko yishakiye.

Kurya agatoki, ibiryo birimo agatoki biba biryoshye cyane, kandi ibyo biryo birimo agatoki iyo wabiririye wumva uguwe neza, kuko bikuvura indwara nyinshi cyane. Agatoki tugomba kukarya tukakagaburira n'abana bacu.

Inkoko izo arizo zose zigomba kubana. Yaba isake cyangwa inkokokazi. Inkokokazi idafite isake ntiyabasha kwarura, kandi n'isake idafite inkokokazi ntiyajya irabona uburyo yororoka.

Ubuhinzi bwa kijyambere ni ubuhinzi bwiza butuma igihingwa cyawe wateye giteye neza biguha umusaruro ushimishije kandi ukaba ugomba no kugira n'abakozi bagomba kwita kuri ibyo bihingwa byawe.

Erega nagushima ku rutugu, iyo wahinze ugasarura. Ugasarura imifuka ingana nka guca urishimaga cane. Kandi icintu kibaga carabigufashijemo ntukibwire abandi. Kibabwire bakimenye nabo bamenye ibanga bakirigite ifaranga.

Pavuro ni igihingwa kiryohoga cane gitumaga ibiryo bihumura kandi ico gihingwa tugihingaga dushaka kukijya tutiriwe turakijana ku nganda icyo gihingwa kandi kikaduha amafaranga, amafaranga gakadufasha kubona ifumbire.

Umwumbati ni igihingwa giteraga umubiri gwacu imbaraga, ni na kimwe mu bihingwa bigize indyo yuzuye kandi iyo umuhinzi agihinze neza yagishizeho ifumbire kimuhaga amafaranga akihaza ,agahaza n'abaturage muri rusange.

Ubuyobozi bushishikariza abaturage n'urubyiruko muri rusange kwitabira ibiganiro rusange byateguwe n'abayobozi kugira ngo babahugure mu bijyanye n'ubumenyi bwa muntu.

Ubuhinzi budufasha kubona amafaranga tukiteza imbere, tugateza imbere imiryango yacu, kandi n'ibyo twahinze tukabirya, tugasagurira n'amasoko bigafasha iterambere ry'igihugu cyacu.

Ipureteri ni mu bintu bimwe bidufasha mu gukora imiti, ndetse iyo wari wabihingiye neza, ukabyitaho, biguha umusaruro ushimishije, kandi iyo ubisaruye ntabwo uhita ubijyana ku isoko, urabyandika bikuma.

Guhinga ni byiza bidufasha mu kwiteza imbere tugateza imbere ndetse n'amasoko yacu yo mu Rwanda ndetse n'ayo hanze. Ni yo mpamvu umuhinzi uwo ariwe wese agomba guhinga akoresheje ifumbire kugira ngo abone umusaruro ushimishije.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni buhinzi duhaha amafaranga, tukabitsa, tukiteza imbere. Mu buhinzi bwacu cyangwa no mu bindi bikorwa, ubwo buhinzi buguha umusaruro iyo wabuhaye ifumbire ihagije.

Umushipuli ni igiti cyabayeho kuva na kera, ni igiti gituma imvura igwa, kandi icyo giti gituma n'amazi yanduye asa neza iyo washyizemo umushipuri.

Muri pariki y'Akagera habamo ibiti bimeze gutya, ubu ushaka kubisura wagenda， benshi baragenda bakajya gushura ibyo biti, bagasura inyamaswa, bagasura buri kimwe cyose kiba muri Pariki, nawe wakwigererayo ukihera amaso.

Ubunyobwa ni kimwe mu bintu bidufasha mu guteka kwacu, ibiryo bikaza bifashe bisa neza, cyangwa tukaburya ari bwonyine turi kubuhekenya. Ubunyobwa buraryoha cyane.

Amasaka ni kimwe mu bihingwa tubonamo ifu y'igikoma ,tukabonamo n'ibindi bintu byinshi cyangwa inzoga, cyangwa umusururu ,kandi biba biryoshye cyane amasaka yo mu Rwanda araryoha.

Ingano ni ibihingwa biba byinshi cyane， ni ibihingwa bivamo umutsima， igikoma ndetse n'ibindi. Iyo wabitonoje neza，ubona n’amafaranga， ku buryo wakongera ugatera n'ibindi.

Iyo wahinze ibishyimbo uba ugomba kubikurikirana, kugira ngo biguhe umusaruro ushimishije, ukabihura, ukabikura mu bishogoshogo, maze ubundi ukabigosora, ukabigosora neza ukabivana ku isoko bifite isuku.

Ingano ni igihingwa kiryohaga neza cane kera bakijyaga mu mutsima imikati kandi igihingwa gisigaye kiraboneka ahantu hake kandi kiryohoga umuntu wariye umutsima w'ingano arakomeraga agakomera cane kuburyo nta cyamuhangagara.

Guhinga ingano， ingano ni nziza， zidufasha mu kubona ifu y’igikoma，ifu yo gutekamo umutsima，kandi uba uryoshye, umutsima w’ingano wawuriye, ntiwazongera kurya n'ukundi，uwo mutsima uba uryoshye cyane.

Guhinga ibihingwa ku murongo nibime mu bintu bibifasha kuba bifite umwanya munini. Kuko birisanzura bikera neza, uwo mwanya wabisigiye bikereramo pe, ukabona ko byeze kandi byeraga neza cane kurwego rushimishije.

Soya ni igihingwa kiba kigiye kumera nk'igishyimbo， ariko cyo，kiba cyitwa soya，ntigisa n'ibishyimbo， kandi cyo gisa ukwacyo，tukibonamo ifu y’igikoma，kandi iba iryoshye cyane.

Igishyimbo ni igihingwa giterwa mu butaka, ariko kigasigamo ibikoti byacyo, kiba cyihishemo, kikazamura umutwe gusa, n'amababi, ariko ibindi byasigaye munsi, niko igishyimbo kera.

Erega iyo uriye ikigori cumye ukomeraga amenyo. Ikigori cumye naco civagamo ifu, ifu ijoshe ifu ijoshe cane, niyo mpamvu buri wese agomba kubihinga bikera bikera neza bakabirya.

Ubuhinzi bw'umuceri ugiye kwera, urabura nk'iminsi mike kugira ngo utukure, ariko uracyatinda pe！Uracyatinda, ukeneye ifumbire, ukeneye n'ibindi bintu byinshi cyane, kugira ngo ukure, ukure neza, uzavemo ibyo kurya bitunga umubiri wacu.

Ubunyobwa ni Ibihingwa duhinga. Tukabyeza bikaduha amafaranga ,umusaruro ushimishije. Kandi tukiteza imbere mu buhinzi bwacu. Bidufasha mu biryo bya buri munsi turya. Turaburya kandi buba buryoshye.

Kera habagaho imitiba, ugasanga nk'umutiba gurimo inzuki nyiri ugwo mutiba akaja guhakura akajya ubuki tukabaho neza, ariko ubungubu bibaga hamwe na hamwe niyo mpamvu tugomba twese kwitabira ukuntu twakwirinda kwangiza ibidukikije.

Ubworozi bw'intama ni ubworozi bugira amafaranga menshi iyo wazitayeho ukazigaburira neza ,ukanazivura neza, izo ntama ntakabuza ziguha umusaruro mwinshi ushimishije.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi bugiraga amafaranga menshi, kandi iyo woroye inkoko iwawe ntohaburagayo amagi, muhoraga murarya amagi, kandi abana bawe bakirinda bwaki, ukabahaza, ugahaza n'isoko muri rusange.

Inka iyo ariyo yose iyo yabyaye ihita ikomba akana kayo kugira ngo igakureho ibintu ntazi amazina yabyo, nubwo byangijeho ariko iyo nka ikagira n'ubwuzu bwinshi bwo konsa akana kayo.

Kugira amatungo gakagira umuganda bibaga ari byiza cane, bitumagaga gatagwara n'iyo gagwaye agahitaga agabonera imiti ku gihe, ku bujyo gatahura n'ikibazo co gupfa cangwa ukagabura burundu.

Umushwi waturazwe n'icyuma ni umushwi uba usa neza, ugatera amagi aryoshye, ariko ukagira ikibazo cyo kuba utararira ngo nawo wororoke badakoresheje ibyuma.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi butanga umusaruro, bugatanga ifumbire tukabona amafaranga menshi cyane. Ubworozi butanga amagi, bugatanga ndetse n'ikindi cyororo, ku buryo buri wese yoroye inkoko yakwiteza imbere.

Inka nyinshi zira ahantu hamwe bazitaga amasho. Kandi inka kugira ngo zibeho neza zigomba kuba zifite umuganga wo kuzivura mu gihe zigwaye, ndetse no kuzitaho mu minsi iyo ari yo yose.

Ingurube ni inyamaswa zigiraga amafaranga zigiraga n'ifumbire nyinshi, ariko zinagiraga umwanda. Kuko aho yaririye ninaho inya kandi aho yasobye ni ho irara. n' inyamaswa igiraga umwanda mwinshi canee!

Inka yo mu Rwanda igomba kuba ifite, akantu kayiranga ariko bita agaherena, kuko iyo nka ishobora kubura ikaburira mu kindi gihugu ugasanga babuze uburyo bayishaka, kandi ifite ako gaherena bayibona byihuse.

Iyo ugira inka uba ugomba no kugira umuntu ugomba kuzitaho kugira ngo zitarwara zikabura uzivurira ku gihe, bikaba byaziviramo no gupfa kandi uwo muganga agomba kuba afite ibikoresho byuzuye birimo agapfukamunwa, igisarubeti, amarinete ndetse n'ibindi.

Iyo wagaburiye amatungo yawe neza, nayo aguha umusaruro ushimishije, kandi utayagaburiye nabwo neza, ntiyaguha umusaruro ushimishije, niyo mpamvu ugomba kuyagaburira, ukayitaho, ukanayavura mu gihe arwaye...

Amagi ni bintu bimwe mu biryo biryoha cyane, aturinda bwaki, akarinda abana bacu kugwingira, buriya buri wese afite inkoko iwe itera amagi yaba ari umukungu ukomeye cyane.

Mugore nawe tinyuka urashoboye, amatungo yacu mujye murayavura neza nk'uko bikwiye. Kandi ugomba kubikora warabyigiye kugira ngo utaduteza ibyago, byo kuba watwicira amatungo. Kandi niba warize neza nta na rimwe uzigera ubura akazi.

Umwana wize ubuganga agomba kubwiga neza kugira ngo ejo atazahura n'ikibazo ari kuvura umuntu ugasanga arapfuye. Kandi agomba kubyitaho n'umutima we wose.

Ingurube n'inyamaswa irya ibintu byose, ingurube yabyaye iyo uyimye ibiryo cyangwa ugatinda usanga yariye ibyana byayo, ingurube n'inyamaswa idatekereza.

Intama ni inyamanswa yororoka cyane. Intama igira ubwoya ku buryo wabukoramo ikindi kintu icyo ari cyo cyose, cyaba umupira cyangwa ikindi kintu wakwambara. Intama uruhu rwayo ruba ari rwiza cyane.

Amagi ni bimwe mu ibigize inryo yuzuye, buri wese agomba kugira nibura inkoko eshatu mu urugo rwe. Kuko amagi ni ingenzi aturinda bwaki tukayarya, tugomba no kwihaza tugasagurira n' amasosoko, tugateza imbere igihugu cyacu.

Niba ufite amatungo ugomba kuyakurikirana ku buryo hagize n'igira ikibazo cy'ubugwayi uba ufite umuganga hafi urahita uyivura. Ku buryo atahura n'ikibazo cyo kubura ubuzima.

Kugira itungo ni byiza ariko uba ungomba no kugira umuntu urakurikirana akaryitaho ku buryo ritagira ikibazo cy'uburwayi ngo ribe ryahura n'ingaruka z'urupfu.

Baravuga ngo buri wese atangirira kuri rimwe bikarangira ageze ku ijana, iyo woroye amatungo ugahera kuri rimwe birangira ugize amatungo menshi Kandi amatungo atanga amafaranga. Buri wese agomba kwihangira umurimo agakura amaboko mu mufuka agakora.

Inka zibayeho neza, ziri kubona ubwatsi zikarisha, zikabyibuha, n'izifite amezi zibayeho neza nta kibazo zifite, zipfa kuba ziri kurya zikananywa amazi , izo nka nta kibazo zagira. Ino yo hirya imeze neza.

Erega uko umuntu atabaho atariye ninako n'amatungo gatabaho gatariye niyo mpamvu twese tugomba ku gagaburira kandi neza tukagitaho kubujyo bushimishije Kandi tukanagavura indwara zose zigwaye nkuko umuntu ameneraga kuvugwa.

Ingurube yo mu ishyamba ni inyamaswa izi kwirukanka cyane, ku buryo nta n'iyindi nyamaswa yayifataho mu kwiruka. Iyo nyamaswa ikaba yibera mu mwobo, kandi ikaba ituje ariko ikagira n'amahane.

Igikeri ni inyamaswa igendaga iri gutaragurika. Inyamaswa ishobora gutaruka ahantu hangana na metero, inyamaswa ni inyamaswa igira ubwonko bukeya, ariko ni n'inyamaswa igira amaso kuruhande, inyamaswa mbi cane.

Imbata ni inyamaswa zikunda koga. Ni inyamaswa ziba zifite ubushobozi bwo kureremba hejuru amazi. Ubwo ni bwo bushobozi imana yazihaye, kandi ni nk'uko zigira ububasha bwo kuba zaguruka.

Baravuga ngo ”Mwene samusure avukana isunzu”. Iyi nyoni yitwa gasuku iba ahantu hake， mu Rwanda iba mu mapariki， ntabwo wayibona mu baturage， yibera mu ma parike cyane cyane， wanayisanga muri pariki y'Akagera.

Hari inyoni ziba zituye mu biti, ku buryo zigira iminwa ikomeye, zicukura n'igiti, izo nyoni ziba ahantu hake, nko mu mapariki, kuko niho wazisanga, mu baturage basanzwe, nta biti binini biba birimo.

Isha ni akanyamaswa ko mu ishyamba kazi kwiruka cyane, karisha ibyatsi, kabayeho neza, kaba gashishe gasa neza cane, kazi kwiruka ku buryo buhambaye.

Inyamaswa zimwe na zimwe zabereye kugira ngo zirye izindi nyamaswa. Umuntu agomba kurya inyamaswa ,iyo nyamaswa yariye ikavamo ifumbire irafumbira ibyatsi ,inyamaswa ikarya ibyatsi ndetse n'iyo nyamaswa bakongera bakayirya.

Inyamaswa zo mu ishyamba ni inyamaswa zigira ubwenge ku buryo zishobora kumenya ngo aha hari ikibi , cyangwa nta kibi , ugasanga nk'inyoni zivumbura ikintu kigiye kuba zo zigahita ziguruka ari nyinshi.

Inyamaswa igiye kumera nk'umuntu， ni uko yibera mu biti， inyamaswa ikoresha amarenga，ibayeho neza， ntacyo ibaye， ibona ibiryo ikabirira ku gihe.

Inyamaswa ziba mu mashyamba ni inyamaswa ziba ari nziza zibaka ziteye neza kandi ntizigiraya urugomo nk'iziba hanze mu bantu, ziba zituje zibayeho neza nta kibazo

Inyoni nk'izi ziba ahantu hake, ku buryo ushobora kugenda nko mu karere ukayibona nk'ahantu hatarenze hatanu. Izo nyoni zarabuze kandi zabuze kubera ko abantu birirwa bakora ibintu byangiza ikirere, inyoni zikabura aho zijya.

Igisiga ni kimwe mu nyamaswa ziguruka, iyo nyamaswa ikaba ifite ubushobozi bwo kuba yaterura inkoko ikayijyana mu kirere, kandi iyo nyamaswa ikunda kurya ibintu bataye byo hasi.